Abana biga mu mashuri y'incuke, usanze bikundira imikino, aha hari abana bari mu mazi, aho bari kugenda bitwarira ubwato bwo mu bipupe, banezerewe, ni byiza ko umwana wawe umutoza imikino.

Ibi ni bimwe mu bishushanyo abana biga mu mashuri abanza bakunze kubona mu mashuri yabo bikabashimisha niba nawe ufite umwana ukiri muto mujyane maze ajye gutangira amashuri y'inshuke.

Uyu ni umwana muto cyane wiga mu mashuri y'incuke, akaba afite igikoresho cyifashishwa hasigwa irangi ku nkuta, ari kugenda asigaho maze akanezerwa, bigaragara ko uyu mwana afite ubwenge.

Agacupa gato cyane, kakaba kariho udushushanyo twinshi cyane tw'utubara, utu ducupa abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke bakunda kutwifashisha batujyanamo icyo kunywa igihe bagiye ku ishuri.

Abana biga mu mashuri y'inshuke bakaba baje guhabwa indangamanota. Aba bana bamwe bambaye impuzankano, abandi ntazo bambaye, bakaba bafite indangamanota zabo mu ntoki bari kumwe n'ababyeyi babo, ndetse n'umwarimu wabo abari imbere.

Abana biga mu mashuri y'inshuke ukunze gusanga bakunda kwigira ahantu hariho ibishushanyo by'inyamaswa zigiye zitandukanye ibimera ndetse n'abantu, iyi ni inyubako ishushanyijeho inyamaswa, igiti ndetse n'umuntu.

Iki ni icyapa, kigaragaza ko hano hari ikigo cy'amashuri y'inshuke, aho bigisha abana guhera ku myaka ine, kuzamura kugeza ku myaka itandatu, ugize zirindwi akajya mu mashuri abanza.

Ibi ni bimwe mu bikoresho, abana biga pirimeri bakunze kuba bigana, iyo wiga mu mashuri abanza, ukunze kuba wita ku gukoresha amarate, metero ndetse n'inyundo, mu rwego kugira ngo ukangure ubwonko.

Ibi ni bimwe mu bikoresho umwana wiga mu mashuri abanza akwiye kuba afite, akwiye kuba afite amarate aca uruziga, aca imirongo miremire, agomba kuba afite ikaramu y'igiti ndetse n'iyikaramu y'umuti.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, kubigisha bisaba kuba ufite ibintu ubahesha ingero. Aha hari ibitabo, ndetse hakaba n'urubuto rwa pome. Ibi nibyo mwarimu yateguye kwifashisha.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bakunze gukenera bimwe muri ibi bikoresho. Harimo: irate rica umurongo, hakabamo iripima imfuruka, hakaba irica uruziga ndetse hakaba n'ikaramu y'igiti bifashisha mu gushushanya.

Iki ni ikigo cy'amashuri abanza harimo abana bambaye impuzankano zigiye zitandukanye, harimo abambaye umuhondo n'icyatsi kibisi ndetse n'abambaye ubururu n'umweru, abana bari kurira ku bwicuno buri hafi aho, ni amashuri yubakishijwe amatafarihiye akaba asakajwe amabati y'ubururu.

Iyi ni nyubako yubakiwe abaturage mu buryo bwa rusange, kugira ngo bajye bayanuriramo imyaka. Imbere yayo hateretse kandagira ukarabe iririmo ijerekani y'umweru hariho akarobine, hasi hakaba hari akabase k'ubururu.

Iyi ni inyubako y'amashuri abanza hakaba harimo inyubako nziza cyane, harimo n'utuyira abanyeshuri banyuramo kugira ngo batanyagirwa, biragaragara y'uko ari mu rwunge rw'amashuri abanza rwa Nyagatare.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza ni bamwe mu bakenera ibikoresho byifashishwa hacibwa imirongo, hacibwa inziga ndetse ibyo bikoresho bagakenera no kubisukura, aya ni amarati aca uruziga ndetse n'aca imirongo.

Iyi ni inyubako y'ikigo cyamashuri abanza. Ni inyubako ishaje cyane, isakaje amabati ashaje, inzugi n'amadirishya n'imbaho zisize irangi ry'icyatsi kibisi. Hakaba hari n'inkingi z'ibyuma.

Iyi ni inyubako y'ikigo cy'amashuri abanza, aho harimo ibyumba by'amashuri bigiye bitandukanye hakaba harimo n'ibyapa aho iyo umunyeshuri aje kwiga ajya mu cyumba cy'amashuri yoherejwemo.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bakunze kwiga mu bigo byiza kuko ari kimwe mu bituma bagira ubumenyi bwimbitse kandi bagateza imbere imiryango yabo mu gihe bize neza.

Abarimu bigisha mu mashuri abanza ukunze gusanga bifashisha ingero z'ibishushanyo mu gihe bari gusobanurira abanyeshuri mu rwego rwo kugira ngo babashe gusobanukirwa ibyo bari kubigisha.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bakunze gukoresha bino bikoresho bikurikira: hari irate rica umurongo, irica uruziga ndetse hakaba n'udukoresho duca umurongo, harimo n'ikaramu y'igiti.

Iyi ni inyubako y'amashuri abanza harimo intebe ndetse hakabamo n'ameza, inkuta zisize amabara agiye atandukanye harimo umuhondo, oranje ndetse n'umutuku. Aha rero umwana wahigiye aba azi ubwenge.

Iyi ni nyubako y'ikigo cy'amashuri abanza ikaba yubakishije amabuye ndetse n'amatafari ahiye hakaba hariho icyapa kigaragaza izina ry'icyo kigo ndetse bakagaragaza n'umwana wicaye mu ishuri.

Ibi ni bimwe mu bikoresho abanyeshuri biga mu mashuri abanza bakunze gukenera, aha harimo kopa, hakabamo irate, hakabamo kopo y'uruziga ndetse n'ipima ifuruka n'amarate apima uburebure.

Iyi ni inyubako ndende cyane ifite urukuta runini hakaba hariho icyapa aho binjirira, hari amagambo yanditseho agaragaza ko ari igororero ry'abana rya Nyagatare, aha rero bakaba bahatangira uburezi bw'ibanze.

Abana biga mu mashuri abanza ndetse n'ay'incuke, usanze bakunze kuba bikundira gushushanya, gukora ibintu bijyanye n'ubugeni. Aha hari akana kambaye agakanzu keza cyane k'umuhondo aho gafite umuriro mu intoki.

Iyi ni inyubako y'icyumba cy'amashuri abanza, iyi nyubako nta sima ifite hasi ndetse n'inkuta nta range ririho, harimo ikibaho cy'umukara bifashisha mu gihe bari kwigisha abana.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke ndetse n'abanza, bakunda gukina n'ababyeyi babo, cyane cyane igihe bari gukora imikoro yo mu rugo baba bashaka ko ababyeyi babafasha ibyo batari kumva.

Aba ni abana biga mu mashuri abanza bari kwiga, ku kibahobo imbere hariho ibara ry'umukara handikishijweho ingwa z'umweru aho abana bari gutera intoki ngo basubize ikibazo kiriho, mwarimu akaba ari kubitegereza.

Abana biga mu mashuri abanza, ukunze gusanga bakunda ibintu bijyanye n'ubugeni, aho ku nyubako z'amashuri yabo, ukunze gusanga hashushanyijeho bimwe mu bibakangurira ubwonko kugira ngo babe abanyabugeni.

Mu mashuri yisumbuye, ukunze gusanga abanyeshuri bahabwa uburezi bufite ireme ndetse bagatozwa kuvugira imbere y'abantu. Ni umwari ufite igitabo, akaba ari gusomera bagenzi be.

Aba ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bari mu ishuri, bicaye ku ntebe za sheze bose bafite amakaye mu ntoki, iyi nyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba ifite amadirishya ari hejuru.

Aba ni abanyeshuri biga mu mumashuri yisumbuye, bambaye amashati y'umweru ndetse n'amapantaro y'ubururu, bakaba bari kuganirizwa. Barishimye cyane, biyicariye mu kigo aho biga. Cyubakishije amatafari ahiye, gisakaje amabati y'ubururu.

Aba ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye. Bambaye impuzankano, bakaba bari mu cyumba kirimo mudasobwa, aho bari kwiga ikoranabuhanga. Ni byiza kwigisha abanyeshuri ikoranabuhanga kugira ngo bateze Igihugu imbere.

Aba ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye. Bakaba bakoze ihuriro, harimo abambaye imyenda y'imihondo na kake, abambaye kake n'icyatsi kibisi, abambaye ubururu ndetse n'umweru, bakaba bari kugenda bahabwa ibiganiro n'abayobozi babo.

Aba ni abanyeshuri bari ku murongo aho bari guhabwa amabwiriza agiye atandukanye. Aba banyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bigira mu mashuri meza, asize irangi ry'umuhondo asakaje amabati y'ubururu.

Iyi ni inyubako y'ikigo cy'amashuri yisumbuye. Ni inyubako yubatswe mu buryo bugezweho. Igeretse kabiri, hakaba hari ibiti biri hafi aho mu kigo, bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi ku banyeshuri. Ikirere kirasa uburura ndetse n'umweru.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye. Ni ikigo cyiza cyane kigeretse ishuri enye. Hakaba harimo abanyeshuri bambaye impuzankano nziza cyane. Harimo n'abarezi bambaye imikenyero, bari gufata ifoto.

Aha ni aho abana bigira, aho usanga haba hari imyicundo ibafasha kuruhura mu bwonko, hazengurutswe n'igikuta cy'amatafari ahiye, inyuma hakaba hari ibiti byiza cyane, bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi muri iki kigo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bakaba bahagaze ku mirongo bakurikije amashuri bigamo, abahungu ndetse n'abakobwa bambaye imyenda y'umweru iriho amakora y'ubururu ndetse n'amapantaro n'amajipo bya kaki.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bambaye uniforme z'ubururu ndetse n'umweru. Hakaba hari umunyeshuri uteruye akabase karimo amafunguro, bagenzi be bari kumwitegereza maze bagaseka.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bakunze gukora ubushakashatsi ku byo batazi kugira ngo babimenye maze babisobanukirwe, ubundi nabo bazarangize bafite ubumenyi.

Aha ni ahahuriye abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, ibijyanye n'imyuga ndetse n'ubumenyi ngiro, bakaba bari kubahugura, aho nabo bambaye imyenda y'akazi kugira ngo bimenyereze umwuga.

Abana biga mu mashuri yisumbuye bambaye impuzankano y'ubururu ndetse n'umukara, hakaba harimo n'umusore umwe, wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro ya kake. Aha rero bakaba bari mu bikorwa bigiye bitandukanye by'ishuri.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ukunze gusanga baba bamaze gukura bazi icyo gukora, aho bicara hasi bakimenyereza ndetse bagasubiramo amasomo kugira ngo bazabashe kugira amanota meza.

Uyu ni umwarimu w'umurezi mu cyiciro cy'amashuri yisumbuye, akaba yicaye imbere y'ameza y'igitambaro cy'ubururu, uducupa dutatu twamazi ndetse na gurude imwe, afite ikaramu mu ntoki ari gutekereza ku masomo ari butange.

Abanyeshuri ba kaminuza ndetse n'abiga ibijyanye n'ubumenyi ngiro bakunze gukora ibintu by'ubugeni, aha hari ibishushanyo by'ibiseke ndetse n'ibisabo, aho bagenda bakora ubwo bugeni bakayikora ibintu nk'ibyo.

Abanyeshuri biga muri za kaminuza ndetse n'amashuri makuru bakunze gukora ubushakashatsi cyane, aba ni abasore n'inkumi bateraniye ahantu hamwe bafite amakayi, amakaramu, amatelefone ndetse na mudasobwa.

Iyi ni inyubako y'abanyeshuri biga muri kaminuza, amakaminuza menshi usanze aba afite inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho zikaba zigeretse, zikaba zirimo n'amarangi aho abanyeshuri bahiga bigira ahantu heza.

Abanyeshuri biga muri kaminuza ndetse n'amashuri makuru n'imyuga n'ubumenyingiro. Bakaba bafite mudasobwa, bakora ubushakashatsi bugiye butandukanye kugira ngo barebe ko ibyo biga ari byo koko.

Abanyeshuri biga muri kaminuza, imyuga ndetse n'ubumenyingiro ukunze gusanga bakora ubushakashatsi kandi bakishimira guhora bari mu ishuri, aba ni abasore n'inkumi bari kungurana ibitekerezo.

Abanyeshuri biga muri kaminuza, amashuri makuru ndetse n'imyuga n'ubumenyingiro, bakunze kuba bafite ubumenyi bwinshi cyane, aho bakora ubushakashatsi bugiye butandukanye kugira ngo bagire ibyo bavumbura.

Umusore wambaye agapira k'umukara k'amaboko magufi, inyuma ye hakaba hari amayetageri apanzemo ibitabo byinshi cyane, afite mudasobwa imbere ye. Abanyeshuri ba kaminuza bakunze gukora ubushakashatsi ku bintu byinshi.

Abanyeshuri biga muri za kaminuza usanze bigira ahantu heza cyane, aho biga bafite amatelefoni na za mudasobwa, bamwe bakaba bafite amacupa y'amazi, hari umukobwa ubari imbere uri kubasobanurira uko amashuri yigwa.

Aba ni abanyeshuri biga muri kaminuza ndetse n'imyuga n'ubumenyi ngiro. Bicaye ahantu hamwe bakaba bari gukora umukoro bahawe bose bafite amakaramu ndetse n'impapuro.

Abanyeshuri biga muri za kaminuza, imyuga ndetse n'ubumenyingiro ukunze gusanga bigira ahantu heza cyane. Turabona ibyumba by'amashuri birimo irangi ry'umuhondo hakaba hari intebe nziza cyane za parasitiki zisa ubururu.

Inyubako nziza cyane z'amashuri ya kaminuza, zikaba zisize irangi ry'umweru harimo akabara k'icyatsi kibisi, hari abanyeshuri bari kuva ku ishuri bari gutambuka mu tuyira dusashemo amapave, imbere yabo hari indabyo ndetse n'igiti gitanga umuyaga.

Abanyeshuri biga muri za kaminuza ndetse n'ubumenyingiro, bakunze gukora ibintu bigiye bitandukanye, izi ni intebe abanyeshuri biga ibijyanye n'ubumenyingiro bikoreye.

Aba ni abanyeshuri biga muri kaminuza ndetse n'amashuri makuru n'ubumenyingiro. Bicaye hasi ku ntebe z'ubururu ndetse n'umukara, bamwe bafite ibikapu abandi ntabyo bafite. Bari kungurana ibitekerezo. Ubona ko bose bateganye amatwi.

Izi ni intebe nziza cyane abanyeshuri biga muri kaminuza ndetse n'imyuga n'ubumenyingiro biga bicayeho. Bityo ziba ziriho ibirango. Kandi abanyeshuri baziga baba bafite ubumenyi.